Ikigo gikora ibijyanye n'ubwishingizi hano mu rwanda cyitwa radiyanti kiri mu bukangurambaga aho bakubwira bati ubwishingizi bw'inkongi y'umuriro ese waba uteganya iki, mu gihe inyubako yawe yakwangizwa n'inkongi y'umuriro g radiyanti.

Gahunda ya leta ishami rya polisi yo mu muhanda rizwi nka gerayo amahoro. Ubu ni uburyo bwashyizweho bushishikariza abatwara ibinyabiziga, kwigengesera mu rwego rwo kugira ngo hirindwe impanuka.

Icyapa kinini cyamamaza kikaba gifashwe n'icyuma kiri mu ishusho y'umuzenguruko, hariho ingazi umuntu yurira iyo ajya hejuru, kiriho abantu benshi barimo abagabo n'abagore b'abazungu.

Ikigo gikora ibijyanye n'ubwishingizi cyitwa SONARWA kirakubwira kiti "wihangayika ohereza ibisabwa byo kumenyesha impanuka igihe cyose, aho uri hose" hariho umukobwa ufite telefone mu ntoki uri kumwenyura.

Icyapa kinini cyamamaza kikaba cyishamikiyeho ikindi bivuze ko imbere n'inyuma hacyo, ushaka kubona ubutumwa bugikubiyeho, hariho ikintu cyambaye umupira w'ubururu ingofero ndetse n'amadarubindi.

Icyapa cyamamaza kiragaragaza telefone enye zigerekeranyije ndetse kikaba cyanditseho amagambo agira ati duha agaciro ibyo uha agaciro kurusha ibindi.

Abagabo n' numudamu bicaye yambaye ijire y'umuhondo irimo akarongo k'umukara asutse ibishuko byumukara, yambaye agashanete mu ijosi, imbere yabo kumeza hari agacupa k'amazi igitabo hejuru hariho bike.

Icyapa kinini cyamamaza kikaba gifite impande enye ariko zitangana, hari umugore w'umuzungu ufite imisatsi igiye inyuma miremire wambaye akenda k'umukara, inyuma ye hari ikimodoka kinini cy'ubuhinzi.

Telefone irimo umweru mwinshi wiganje ndetse hejuru no hasi hakaba hasa icyatsi, iragaragara ko umuriro wayo ugeze kuri mirongo itandatu na karindwi ku ijana, tukaba turi ku isa tanu n'iminota mirongo itanu n'irindwi.

Ni iduka ricuruza imyambaro rikaba riri kwiyamamariza ku bijyanye na murandasi, aho mu ishusho ya telefone harimo imyenda amakoti yo kwambara ndetse n'inkweto nziza cyane.

Umukobwa uri kumwenyura, yambaye umupira wumukara imisatsi ye myinshi yayifungiye, hejuru ku meza hariho udukapu twinshi turi mu mabara atandukanye, ari kugenda aturebamo.

Iduka ricuruza imyenda itandukanye, harimo iyiganjemo iy'abagabo, hari umupira w'umweru, uw'umutuku, uw'icyatsi ndetse n'andi mapantaro ari ku ruhande.

Inkweto zifunguye zizwi nka sandali, zipanze mu kabati k'umweru zikaba ziri mu byiciro bitatu ndetse ziri mu mabara atandukanye. Inyinshi muri zo ni umukara.

Abantu batatu bahagaze, bose bakaba bakoze ku gifunguzo, umwe afite agakapu gatukura, akaba ari umuzungu, ibi ni bimwe mu bigaragaza ko ahawe iyi modoka amaze kugura.

Abantu bane bahagaze, bose bafashe ku gifunguzo, ariko kitari icyanyacyo bakaba bari guseka, umukobwa uri ku ruhande yambaye ikote rirerire ry'igitaka, agapira k'umutuku mo imbere.

Ni imodoka zihagaze ahantu henshi bikaba bigaragara ko zigurishwa kuko ziracyari nshyashya, ebyiri muri zo zirasa umutuku izindi ziri inyuma ni umweru.

Umuhanda urarengamo igare ndetse n'amapikipiki, iruhande rwaho hari akayira kagenewe abagenda n'amaguru kari guturukamo umusore uri hirya, iruhande rwe hari ubusitani ndetse n'indabyo.

Ni urugo ruzengurutswe n'utwuma, imbere muri rwo hahagaze ikinyabiziga kinini cy'ubwikorezi cy'umuhondo, hari amazu agiye afite ibisenge by'amabati ndetse n'ibyapa biranga ibihakorerwa.

Abagabo n' numudamu bicaye yambaye ijire y'umuhondo irimo akarongo k'umukara asutse ibishuko byumukara, yambaye agashanete mu ijosi, imbere yabo kumeza hari agacupa k'amazi igitabo hejuru hariho bike.

Abakobwa bane barimo umwe w'umuzungu; hari umusore umwe wambaye agapira k'umweru. Hari kandi inyuma yabo ishusho y'imodoka ihagaze mu busitani.

Imodoka nziza yo mu bwoko bwa Yundayi irahagaze, biragaragara ko ikiri nshyashya. Ikaba itangwa n'ikigo gishinzwe ubucuruzi bw'imodoka hano mu Rwanda. Iri ku isoko yakozwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na kabiri.

Mu masaha y'ijuru hari abantu babiri bahagaze, umukobwa akaba yarambuye intoki nk'uri gusuhuza. Hari igifunguzo bafite mu ntoki ndetse afite agakapu k'umutuku, inyuma yabo hari imodoka.

Ibiganza biri guhererekanya amafaranga menshi bikaba bigaragara ko aha ari ahakorerwa ibijyanye n'ivunjisha iruhande hari akuma bashinzwe kuborohereza mu gukora imibare.

Inote y'ijana, yakoreshwaga mu bihe byo hambere, ikaba ari iya banki nkuru y'u Rwanda, iriho umugore uhetse umwana abayizi bavugaga ko, ari Nyiraneza uhetse Rubaduka.

Umusore ufite umusatsi mukeya uringaniye, yambaye agapfukamunwa, umupira w'umutuku n'umweru, ari kwakira amafaranga ahabwa n'umudamu wambaye umupira w'amaboko maremare w'umukara ndetse n'umweru, imbere ye hari mudasobwa.

Ni ikigo gisa nk'aho ari icy'imari cyangwa se kikaba gitanga serivisi zijyanye no kuvunja amafaranga, ibiganza by'umuntu utagaragara biri kubara inote nyinshi imbere hari mudasobwa, hari umuzungu wambaye agapfukamunwa.

Ameza ajya gusa umukara ateretseho inote y'ijana ikaba yarakoreshwaga hambere hano mu gihugu cy'u Rwanda, iragaragaraho ikirangantego cy'igihugu ndetse n'inka zitari kuboneka neza.

Ibiganza bitagaragaza neza nyirabyo, bikaba bicigatiye amafaranga menshi mu ntoki y'inoti, biragaragara ko aha ari mu biro by'ivunjisha, kuko hari ayo mu bihugu bigiye bitandukanye.

Hakorerwa ubucuruzi bujyanye n'ibyo kurya ndetse n'ibyo kunywa, ibyinshi bikaba biba bihiye. Muri ibyo harimo amagi, amandazi, amata yo kunywa ndetse n'ibikoze mu mitobe.

Ni ahacururizwa amata ndetse n'amazi n'ibindi binyobwa bidasembuye. Haragaragaramo icyuma cyabugenewe kibika kikanakonjesha, kikanatunganya amata mu buryo bwizewe.

Ni agakarito karimo umutobe ukorwa mu rubuto ruzwi nk'itunda, gakorwa n'uruganda rw'Inyange, kakaba kari mu kiganza cy'umuntu utagaragara neza. Uyu mutobe iyo uwunyweye wumva uguwe neza cyane.

Ibi ni ibinyobwa bicishwa mu nganda bigatunganywa, nyamara biba byakomotse ku mata ava ku itungo ry'inka. Biteretse mu cyuma gishinzwe kubikonjesha mu rwego rwo kugira ngo bigume ari bizima.

Ni aho bacururiza amata ndetse n'ibindi byose bikomoka ku itungo ry'inka, icyuma cyagenewe kuyabika no kuyatunganya mu rwego rwo kugira ngo atangirika amare iminsi.

Inzu ikorerwamo ubucuruzi bujyanye n'ibyokunywa, byiganjemo ibikomoka ku matungo ari yo amata hariho ibyapa biriho ayi mu dukarito ndetse no mu tubito.

Indobo irimo amandazi abiri, ndetse n'icyuma cyo kuyafatisha, ikaba ifunguye, aha rero ni ahakorerwa ubucuruzi bujyanye n'ibyo kurya birimo amata ndetse n'ibindi.

Akabati kariho igishitingi cy'ubururu n'umweru, kakaba karimo amabido abiri aryamye, ku ruhande hari igikuta cyubakishijwe amatafari ahiye, akaba ari mu nzu y'ubucuruzi.

Ni inzu icuruza ibyo kurya n'ibyo kunywa bitandukanye muri byo harimo amandazi ari mu ndobo ipfundikiye, hari akabati karimo ibikombe bihererwamo abaje babagana ndetse n'akandi karimo ibicuruzwa.

Ahakorerwa ubucuruzi bujyanye no gutanga ibyo kunywa ndetse n'ibyo kurya byoroheje, hari umukobwa wambaye ikanzu y'icyatsi irengejeho ikote ry'ubururu, wicaye ari kwakira abamugana.

Abagore babiri bari kugaragaza ibicuruzwa, umwe yambaye umupira w'umukara ndetse imisatsi ye ni miremire igiye inyuma, ari kumwenyura undi afashe ikarito mu ntoki.

Ni icyapa kinini cyamamaza, kikaba kiriho umukobwa ufite imisatsi y'umukara, yambaye agapira k'umweru, akaba agaragara nk'uwatangaye bijyanye n'ibyo ari kubona muri telefone ye.

Ibiganza bitagaragaza neza nyirabyo ariko wambaye umupira w'umuhondo n'imisatsi igiye inyuma, akaba ari umukobwa kuko inzara ze zirasize. Afite telefone mu ntoki, akaba ari kugira ibyo akandamo.

Ni icyapa cya kimwe mu bigo by'itumanaho bikorera inaha m'u Rwanda kikaba cyitwa airtel, kiri mu ishusho itukura ndetse amagambo yanditseho ni umweru.

Umugabo w'umuzungu ufite agasatsi gake n'ubwanwa, yambaye umupira w'umukara ari kumwe n'umwirabura w'umupira utukura, igikapu kiri ku meza ndetse bafite udutabo bari kurebamo.

Ni abagore cyangwa se abakobwa batatu bicaranye, umwe uri hagati ari kubaganirira, bose bamuhanze amaso, inyuma yabo hari idirishya rifunguye ritwikirijeho igitambaro cy'umutuku.

Amagambo agira ati: "irekure", ari inyuma y'ibara rinini ry'umuhondo. Hari uw'igitsina gore ufite telefone mu ntoki, wambaye impeta nyinshi, uri kuyirebamo amwenyura.

icyapa kinini cyamamaza, kikaba ari icy'ikigo cy'imari gikorera mu Rwanda cyitwa I&M, iyi ni banki ariko na none ikaba itanga n'ubwishingizi, kiriho telefone ebyiri ngendanwa.

Ibiganza bitagaragaza nyirabyo bikaba bifite telefoni, hagati muri yo harimo ishusho rigaragaza uburyo bwo kohereza ndetse no kwakira amafaranga hifashishijwe telefone ngendanwa.

Inyandiko y'ikigo cy' igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro mu Rwanda, ikaba iri kugaragaramo imbonerahamwe y'umuntu watanze umusoro, hariho ikirango cy'icyo kigo ndetse n'ikirangantego cya repubulika y'u Rwanda.

Inyandiko y'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, ikaba iri kugaragaza uburyo abantu baba bagiye bishyura hariho ikirango cy'icyo kigo ndetse n'ikirangantego cya repubulika y'u Rwanda.

Ni ngombwa ku bakora ibikorwa by'ubucuruzi cyangwa se ibindi byose byinjiza amafaranga, gutanga umusoro n'amahoro, ibi ni bimwe mu bifasha igihugu gutera imbere, kuko hakurwamo ayubaka ibikorwa remezo.

Inyandiko y'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, ikaba iri kugaragaza uburyo uyu muntu yatanze umusoro mu mbonerahamwe hagati harimo amatariki y'umwaka ndetse n'ukwezi.

Inyandiko y'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, iki ni icyemezo cyo kutabamo umwenda w'umusoro, kikaba gihabwa umuntu wese warangije kuyishyura.

Inyandiko iri muri mudasobwa, ikaba ari umukara ndetse n'umweru, iragaragaramo imbonerahamwe, igizwe n'imibare, irimo amafaranga ndetse nibindi bitandukanye.

Inyandiko y'ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, hagati muri yo harimo imbonerahamwe igaragaza uko basoze, amatariki ndetse n'umwaka. Hakaba hariho ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda.

Ibiganza by'umuzungu bifashe amafaranga. Kimwe gifashe amadorari, ikindi andi atagaragara neza, n'imbere hari ugiye kuyakira, bigaragara ko ari muri banki aje kuyabitsamo.

Ibiganza by'umuzungu bifashe amafaranga mu ntoki andi ari ku meza ari menshi, ni inote zirimo: Amayero, Amadolari ndetse n'andi akoreshwa mu bihugu by'amahanga.

Inoti nyinshi z'amafaranga zikaba zirambuye ku meza, zose zigiye ziri mu mibare itandukanye aho hagaragaramo: iz'ijana, magana atanu, ibihumbi bitanu ndetse n'izindi.

Ibiganza by'umuzungu bifashe inote nyinshi mu ntoki zose, zikaba zijana aya n'amafaranga akoreshwa mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hakaba hariho ikirango cy'umugabo ufite imisatsi igiye inyuma.

Inoti enye zikaba harimo iy'icumi, iya mirongo itanu, iya makumyabiri, izi zose zizwi nk'amayero akoreshwa ku mugabane w'uburayi, ni amwe muyafite agaciro kenshi.

Amabandari y' inoteri nyinshi zitandukanye, ateretse ku meza, harimo amadolari yifashishwa muri leta zunze ubumwe za amerika ndetse n'amayero akoreshwa ku mugabane w'ubu burayi ,aya yombi afite agaciro gahambaye kuruta ayandi yose ku isi.

Ibiganza hatari kugaragara nyirabyo yambaye umupira w'ubururu bwijimye. Bikaba bifite inoti nyinshi mu ntoki zitandukanye, ziri mu mabara yiganjemo ay'ubururu, akaba amaze kuyahabwa.

Ibiganza by'abazungu biri guhererekanya amafaranga, biragaragara ko aha ngaha ari muri banki cyangwa se ahakorerwa ibijyanye n'ivunjisha, umwe afite amadolari mu kaboko k'ibumoso ariho ifoto y'umugabo,

Icyapa cyamamaza, kiri mu ishusho ya mande enye, ubuso bwacyo n'umuhondo, ndetse harimo amagambo y'umukara. Ugenekereje mu kinyarwanda ari kutubwira ko aha hakorerwa ibijyanye n'ivunjishwa ry'amafaranga.

Ni inzu ifite imiryango myinshi, imwe muri yo ikaba ifunze nubwo bimeze gutyo, ariko imbere yayo hari ibyapa bigaragaza ibikorerwamo ko ari ibijyanye no kuvunja amafaranga.

Iyi ni imbonerahamwe ijyanye n'ivunjisha ry'amafaranga y'manyamahanga, hagiye hariho amabendera y'ibihugu ndetse n'umubare w'amafaranga ibiciro n'uburyo ahagaze ku isoko.

Ni ahatangirwa serivisi zijyanye n'iby'ubucuruzi hari abantu b'abazungu bagiye bafite ibikapu hakaba hakorerwa ubujyanye no kuvunja amafaranga.

Imiryango ibiri ifunguye irebana, hakaba hari iri hejuru gato y'umuhanda, ahakorerwa ubucuruzi bujyanye n'ivunjwa ry'amafaranga, hakaba hagaragara ibirango biranga aho ngaho.

Ni agatebe keza gakozwe mu rubaho kegamirwa kakaba kagezweho, aka ushobora kukifashisha uri kuruhuka aho ukicaramo wizunguza kakagufasha gushira umunaniro n'amavunane.

Intebe nziza, ikozwe mu rubaho, rukaba rusa umukara ariko werurutse, harimo imisego ubona ko ari minini y'umweru ikaba iri mu nyubako ifite amakaro.

Ameza ariho ikirahure, ndetse n'intebe ziyazengurutse, zikozwe mu rubaho rwiza rukomeye. Izi ni zimwe mu zishyirwa, ahagenewe ururiro, iyo ufite inzu zirimo biba ari ibintu bigaragara neza cyane.

Ni ahakorerwa imirimo igaragara ko ari iy'ububaji harimo umugabo w'umuzungu wambaye hejuru umweru, akaba ari mu bikorwa byiwe bitandukanye, hari ameza agaramye bigaragara ko ariyo gukoraho.

Ibikoresho by'ubugeni bikunze gukorwa n'abakorikori aka ni akazu gatoya gakozwe mu mbaho, ahanini ibi bikaba ari imitako ishyirwa mu nzu cyangwa se ahandi hantu.

Intebe nziza zo mu ruganiriro, zikozwe ku buryo butangaje, zigizwe ahanini n'imbaho, ndetse n'udusego dutoya, ziri mu nzu nziza ifite ibikuta by'umweru, ndetse akaba ari ahantu wakwifuza gutura.

Ni inzu nziza ifite amarangi y'umweru, idirishya risa nk'aho irido yigiyeyo. Hari intebe nziza zo mu ruganiriro, bigaragara ko ari ahantu ushobora kuba wicaye ukumva uguwe neza.

Mu masaha ya nijoro, ni ahantu heza cyane ho kuruhukira, hanze mu mbuga hagiye hateyemo intebe, abantu bashobora kuhasohokera bakicaramo bari kuganira, amatara ari kwaka ku buryo buringaniye urumuri rw'umuhondo.

Inyubako izwiho kwakira abantu bakomeye bitabira inama zibera mu Rwanda, yaba abari ku rwego rw'abakuru b'ibihugu cyangwa se abandi bayobozi mu bihugu byabo aha niho bakirirwa iyo bageze mu Rwanda.

Icyumba kinini cyagutse kikaba gisa nk'aho cyakira inama, n'ubwo bimeze gutyo nta muntu urimo gusa kirateguye ku meza hari amazi, hasi hashashe umutuku, hirya hagaragara insakazamashusho.

Icyanya cyiza cyane kirimo ubusitani butoshye, ikaba ari inzu ikora ubucuruzi bujyanye no gucumbikira abantu, kubagaburira ndetse n'ibindi. Hanze hari ubwogero hejuru yabwo hagiye hari imitaka, iriho intebe abantu baruhukiramo.

Ahantu heza ushobora kuruhukira wicaye umeze neza ahitegeye, harimo intebe z'umweru ndetse ziri mu kantu ka zitwikiriye ko hanze gakozwe mu mbaho, akaba ari ahantu umuntu yakwicara atuje.

Ni icyanya cyiza cy'ubucuruzi butanga serivisi zo kugaburira abantu, kubacumbikira by'igihe gitoya ndetse n'izindi zitandukanye, mu nyubako igeretse akarenga gatatu, imbuga yayo iteyemo imitaka ndetse n'aho abantu bicara.

Ahantu heza ho kuruhukira rushobora gusohokana n'abawe bikaba byabanezeza, hari imitaka iri hejuru y'urwogero igiye irimo udutebe abantu bicaraho baganira ndetse bakanaruhuka.

Ubusitani bwiza bw'ubwatsi butoshye ndetse n'indabyo buteyemo umutaka w'icyatsi cyererutse ndetse uzengurutswe n'intebe, bigaragara ko abantu baje kwiyakira baharuhukira ndetse bakagubwa neza.

Ni icyanya kinini cy'inzu zikora ubucuruzi bwo gucumbikira abantu, kubaha ibyo kurya, ndetse n'izindi serivisi zitandukanye, hanze mu mbuga yisanzuye, hari ubwogero, ndetse n'aho abantu baruhukira.

Ibiro byisanzuye, ndetse bikoreramo abantu batandukanye, biragaragara neza, hari ameza amwe ariho mudasobwa ebyiri, gusa mu ntebe nta muntu wicayemo, kuruhande hari ururabyo.

Ni ibiro byiza cyane biragaragaramo abantu b'abazungu ndetse hari n intebe zimwe ziticayemo abantu kumezaeza hari ururabyo na mudasobwa hakabamo umudamu ufite imisatsi imanutse inyuma

Inyubako ndende igeretse kabiri, ikaba isize amarangi atandukanye harimo ay’umutuku werurutse. Inkingi n’ibindi bikuta bisize umweru, korerwamo ubucuruzi butandukanye.

Ahantu heza hatangirwa serivisi hakaba ari mu biro, harimo intebe nziza z'umukara yaba iz'abantu bicaramo baje kwakirwa, harimo umukobwa uri kuri mudasobwa, hari amabara yiganjemo ay'umutuku ndetse n'umweru.

Inyubako ndende igeretse kabiri, ifite imiryango myinshi igiye iri ku murongo, iri mu mabara y'ubururu ndetse n'umweru, hakorerwamo ubucuruzi ndetse n'ibijyanye n'ubwishingizi, imbere yayo hahagaze imodoka itukura.

Inzu nziza cyane igaragara nk'ahakira abantu mu buryo bwa rusange, hari intebe n'ameza, bigiye biteye mu matsinda, bigaragara nk'ibyicaraho abaje bagana aha ngaha.

Indabyo ziri iruhande rw'umuhanda, utubuye tw'umukara n'umweru turi ku murongo, ibiti bitandukanye. Umuhanda urimo ipikipiki itariho umugenzi, imbere yayo hari imodoka ebyiri.

Ahantu heza cyane hagaragara nk'aho hakorerwamo ibiro, nta muntu urimo hose hasa umweru hagiye harimo intebe z'ubururu. Ni byiza rero kugera ahantu nk'aha ngaha kuko abakugana baza bakasangana isuku.

Ibiro bitari kugaragaramo umuntu, ku rugi haragaragara ikigo cy'ubwishingizi gikorera mu Rwanda kizwi nka SONARWA, intebe ishinzwe kwicaramo abaje babagana ntawe uyirimo, ndetse ku meza hariho mudasobwa.

Abantu babiri bicaranye umusore ndetse n'umukobwa, umwe yambaye ishati y'umweru, undi agapira k'amaboko maremare, imbere yabo hari mudasobwa iteretse ku meza, hari ibyo bari kwigaho.

Icyapa kinini cyamamaza, kigizwe n'ibyiciro bitatu, hejuru m'ingu y'iburyo hariho abantu bari gufata amasomo bafite mudasobwa ndetse n'isakazamashusho bari kuberekeraho.

Icyapa kinini cyamamaza, kiriho umukobwa uri kumwenyura wafungiye imisatsi y'umukara ayijyana inyuma, yambaye agapira ka runiga k'amaboko maremare, afite ikintu mu ntoki.

Ahatangirwa serivise z'ibigo by'imari bizwi nka banki, harimo umukozi ushinzwe kwakira abamugana. Ari kubara amafaranga, imbere ye hateretse ibitabo. Uwo aje kwakira ari kwandika mu gitabo, bigaragara ko ari gushyiraho umukono.

Icyapa cyamamaza kikaba kirirho umugabo ukora ibimeze nkaho'aho bijyanye n'ububaji, yambaye agapira k'umutuku ndetse n'impuzankanano imurinda kwandura, hari ibyo yateretse ku meza, akaba ari gufata ibipimo.

Ni ihuriro ry'abamama benshi bigaragara ko bari muri koperative iboha ibijyanye n'imitako, bambaye imyambaro myiza y'ibitenge ndetse bakaba bafatanye urunana.

Icyapa cyamamaza ikigo cy'imari gikorera mu Rwanda, cyitwa BPR banki, kikaba kiriho umukobwa wifashe neza wambaye agashati k'umukara ari kumwenyura.

Isoko rigaragaramo ubucuruzi buciriritse, ririmo abagore baje gushakisha amafaranga. Hari ibase irimo ibimeze nk'intoryi. Umwe yambaye igitenge cy'ubururu kirimo utubara tw'umuhondo.

Ni ahantu hahuriye abantu benshi bigaragara ko ari mu isoko ricuruza imyambaro by'umwihariko ibitenge, hahagaze umusore wambaye ipantaro ya gisirikare ndetse n'umupira w'umweru imbere ye hari abazungu babiri.

Ni mu isoko ririmo ibintu ariko rikorera hanze ahantu hadatwikiriye, hari kugaragaramo ibitoki byagiye bikurwa ku maseri, ndetse harimo imboga, imbuto, karoti, amateke n'ibindi biribwa.

Mu isoko rusange hari kugaragaramo ibyokurya bitandukanye birimo imboga, imbuto; hari abagore b'abacuruzi bari hagati muri ryo, inyanya, karoti, n'ibindi.

Mu isoko ricururizwamo ibintu bitandukanye, hari inkoko iriho urusenda ndetse n'indi iriho ibibiringanya na kokombure, harimo abadamu babiri barahagaze bambaye imipira yo hejuru isa, bagakenyera ibitenge bitandukanye.

Isoko ririmo ibicuruzwa bitandukanye ab'igitsina gore nibo biganjemo bari gucuruza, bakaba badenduye ibintu hanze birimo imbuto, imboga ndetse n'ibindi.

Ahakorerwa ubucuruzi bw'imyenda, yaba iy'abagore ndetse n'iy'abagabo, hari kandi n'ibindi bintu by'imitako, higanjemo ibitenge bigiye bimanitse ku murongo, biri mu mabara atandukanye.

Ni isoko rinini ricuruza ibijyanye n'imyambaro, riragaragaramo urujya n'uruza rw'abaguzi ndetse n'abacuruzi, yewe hari n'abari guhererekanya amafaranga, hamanitse imyenda cyane cyane imipira y'imbeho yo kwifubika.

Isoko rinini ryubakishijwe ahanini n'imbaho, rikaba rigaragaramo ibicuruzwa byo kwambara, byiganjemo inkweto ndetse n'ibikapu, byose biri hanze bikaba biri ku mahema.

Isoko rya kijyambere rikaba ryubatse mu buryo bugezweho, iyi ni gahunda leta yashyizeho mu rwego rwo guca ubucuruzi bukora mu kajagari, harimo inyanya, imboga, n'imbuto, abaguzi n'abacuruzi bose barihuriyemo,

Akazu gato k'ikigo gicuruza ibijyanye n'itumanaho hano mu Rwanda, kizwi nka MTN, nk'uko bisanzwe kaba kari mu mabara yako y'umuhondo, hari umukobwa ufite ishakoshi uje gusaba serivisi.

Akazu gato k'umuhondo kakaba ari ikigo kijyanye n'itumanaho cya Emutiyene, hari umugabo urimo ushinzwe kwakira abamugana hakaba hateretseho ibitabo ndetse n'ikaramu.

Abantu babiri batari kugaragara neza amasura yabo, umwe afite telefone ngendanwa akaba ari kuyandikamo n'agakapu kari ku rutugu, hirya ye hari umugabo wicaye uri kurya capati.

Abaturage benshi bahagaze munsi y'agahema gatoya, k'ikigo cy'itumanaho cya MTN, mu ibara ryacyo ry'umuhondo, bose barareba imbere, bigaragara ko hari ibyo barimo kubereka.

Ni ikigo gikora ubucuruzi bujyanye n'iby'itumanaho, gikorera mu Rwanda cya airtel, hari agahema bashinze hanze y'inzu kari mu mabara y'umutuku ndetse n'umweru, abaturage bari ku murongo, baje gushaka serivisi.

icyapa kinini cyamamaza ikigo gishinzwe itumanaho hano mu rwanda cya mtienne bari mu bukangurambaga bwa momo aho bashishikariza abantu kwishyura cyangwa se kohererezanya amafaranga hifashishijwe umurongo wabo

Ikigo cy'itumanaho cya Emutiyeni cyazanye uburyo butandukanye buzwiho mu kwishyura hifashishijwe telefone ngendanwa aho ubikora rimwe na rimwe ntibakate amafaranga bitewe n'uburyo wishyuyemo.

Abagabo babiri bahuje ibiganza, ubona ko bari kuramukanya, kandi bishimiranye bose, bambaye imipira y'umuhondo y'ikigo gikora ibijyanye n'itumanaho hano mu Rwanda cya MTN, inyuma yabo hari abandi bantu bari kubareba.

Umuntu wambaye ipantaro y'ubururu bwerurutse, afite agakapu k'umukara. Isura ye ntigaragara ariko ikiganza cye gifashe telefone ngendanwa. Akaba iri kwaka ndetse hari ibyo ari kuyikoramo.

Akazu gato k'ikigo kijyanye n'itumanaho cya MTN, kari mu mabara y'umuhondo, hagati muri ko hicayemo ushinzwe kwakira abamugana. Imbere yako hari akana gato kari kuza kirukanka.

Umugabo utwaye ipikipiki inyuma atwaye agasanduku akaba ahagaze ku ruhande aho agiye guhabwa serivisi z'ikigo cy'itumanaho cya mtn, akaba akora ibijyanye no gushyira abantu ibyo kurya.

Isoko rigaragaramo urujya n'uruza rw'abantu ndetse n'ibintu by'ibicuruzwa, harimo karoti intoryi n'udufuka tumanutse ku giti, hirya hari umufuka urimo ifu y'ubugari, hari umudamu uri kuritemberamo.

Umusore aratambuka mu muhanda, yambaye ishati aho yayikunje ho gatoya. Imbere ye hari inyubako iriho ibirango by'ikigo cy'itumanaho mu Rwanda cya MTN mu mabara yacyo y'umuhondo.

Ni akazu gatoya gacuruza ibijyanye na serivisi za MTN, ikigo gishinzwe itumanaho hano mu Rwanda, hari umugabo wambaye agapira k'umukara kandikishije amagambo y'umweru akaba aje kwaka ubufasha.

Iduka ricuruza imyenda, hakaba hagaragaramo amapantaro y'ubwoko bwose, hari amakoboyi, amatise ndetse n'andi, hari umuntu wambaye imyambaro y'ikigo cy'itumanaho cya MTN, utari kugaragara neza.

Ubukangurambaga buri gukorwa n'ikigo cy'itumanaho cya MTN, abakozi bacyo bicaye mu ihema riri mu mabara y'umuhondo ndetse n'umukara kuko ariyo akiranga, hari umukobwa ufite indangururamajwi uri hagati...

Abakozi benshi b'ikigo cy'itumanaho cya emutiyene bari kwakira abantu baje babagana bigaragara ko hari ubukangurambaga barimo bujyanye n'ibyo bakora, hari umuntu uri kwereka undi muri telefoni.

Akazu gato kubakishijwe imbaho ariko mu buryo bwiza, imbere hariho imitako y'umukara n'umweru kari ahirengeye, mo imbere harimo abantu bari kuri za mudasobwa bategereje kwakira ababagana.

Ni akazu gato k'ikigo gicuruza ibijyanye n'itumanaho hano mu Rwanda kizwi nka MTN; kikaba kirangwa n'amabara y'umuhondo. Hari umugabo w'ishati y'ubururu n'ipantaro y'umukara uje kwaka ubufasha.

Ni icyapa kinini cyamamaza, kikaba kikora ibijyanye no gucuruza ibikoresho by'ikoranabuhanga, hariho umusore uri kureba imbere wambaye ishati isa nk'ivu cyanditseho ngo YUBEYI.

Ni icyapa kinini cyamamaza. Kiri mu ishusho y'umukara, kirijimye, hari amagambo yandikishije umutuku ndetse n'ay'umweru, kikaba cyanditseho ngo akarwa.

Mu rwego rwo korohereza abantu, mu kubona serivisi zitandukanye, uburyo bw'ikoranabuhanga buza ku murongo wa mbere, mu byoroshya ibyo ng'ibyo harimo nko kuba abantu batumiza ibicuruzwa bibereye mu ngo zabo.

Ni urubuga rukorera kuri murandasi, rukaba rukora ibijyanye n'ubucuruzi, rwitwa Kasha, hari umuntu uriho ufite ikarita mu ntoki ndetse areba no muri telefone ngendanwa.

Umugabo uhetse igikapu wambaye ipantaro y'umukara ndetse umupira n'igikapu by'icyatsi, kuri cyo handitseho vuba vuba, akaba ari guhagarika neza igare yitegura kwinjiza ibyo azanye mu gipangu.

N'icyapa cyamamaza kiri mu ishusho nini y'umuhondo igice kimwe kikaba cyanditseho twiga andi magambo ari munsi arasa umukara, iruhande hari umugabo wikoreye umuzigo wambaye umwenda w'ubururu bwijimye.

Umugabo uri kumwenyura wambaye agapira gafite ibara ry'icunga rihishije n'umuhondo, yicaye ku ipikipiki y'umutuku ariko ihagaze itari kugenda, bikaba bigaragarako akora ibijyanye no gushyira abantu ibintu mu ngo.

Iyi ni inzu ikodeshwa iri ahantu bita kugisozi mu mujyi wa kigali mu Rwanda bakaba bari kuvuga ngo iyi nzu irimo ibyumba bibiri kandi irimo n'ubwogero bugera kuri bubiri.

Abagabo babiri bahagaze iruhande rw'ipikipiki bose bambaye imyenda y'icyatsi yanditseho vuba vuba, iki ni ikigo cyazanye uburyo bwo kuba watumiza ibyo kurya cyangwa ibyo guteka uri iwawe bakabikugezaho.

Inzu nziza ijyanye n'icyerekezo tugezemo, hasi harimo amakaro akunze kwitwa igicu, inkuta ndetse no mu gisenge cyayo ikaba isa umweru, haragaragaramo imiryango y'imbaho nziza zikomeye.

Inzu nziza ifite urupangu rwubakishije amatafari ahiye, hejuru kuri yo hariho akarange k'umweru akaba acyeye, mu mbuga hari ahahagarara imodoka ndetse n'ahandi hateye ubusitani n'indabyo.

Icyumba kiza ushobora kuryamamo ukumva urisanzuye. Urugi rwacyo ni imbaho, ruragaragaramo urufunguzo. Akabati gato ndetse n'amarido agiye yigiyeho mu byiciro, hari igitanda kitari kugaragaraho umuntu.

Inzu nziza yubatse mu buryo bugezweho. Iki ni ikimenyetso cy'imiturire myiza kandi iteye imbere. Hagaragara amabaraza ariho inkingi z'umweru ndetse n'amakaro y'igicu.

Inzu nziza yubatswe mu buryo bugezweho, ikaba isize amarangi y'umweru ku nkuta ndetse no mu gisenge; umuryango ujya mu ibaraza urafunguye ndetse n'irido byigiyeyo. Hari igitanda gishashe neza.

Igipangu cy'umukara gifunguye, ni mu nyubako nziza ijyanye n'iyerekezo tugezemo, yubakishijwe amabuye y'amabara ndetse ahagana mu gisenge harasa umweru harimo n'amatara meza.

Inzu nziza ijyanye n'icyerekezo tugezemo, harimo intebe z'imisego y'umukara ndetse ku gikuta hariho insakazamashusho, n'akuma gashinzwe gutanga umuyaga.

Inzu nziza ijyanye n'icyerekezo tugezemo, uruganiriro rugizwe n'intebe n'imisego ndetse iruhande rwarwo hakaba hari n'ururiro, muri yo hari umuzungu uri kugenda yereka umugore.

Inzu nziza ijyanye n'icyerekezo tugezemo, akaba ari ebyiri zegeranye zisa, iyi ifite imbuga yisanzuye, ishobora guhagararamo ibinyabiziga birenze kimwe, igisenge cy'umukara, ndetse n'inkingi.

Inkingi eshatu zisize amabara y'icyatsi, nizo zifashe ibaraza ry'inzu nziza ijyanye n'icyerekezo tugezemo, ikaba ifite imbuga yisanzuye ishobora guhagararamo ibinyabiziga birenze kimwe.

Umuryango ufunze, inkuta z'umweru zigiye zirimo uturongo, urugi ruriho ibyapa bitandukanye, hariho ahari imodoka ndetse n'ahandi hagaragara amazu menshi.

Inyubako nziza, igaragaza inkingi ebyiri mu ibaraza ryayo ndetse ikaba ifite imbuga yisanzuye ishobora guhagararamo ibinyabiziga birenze kimwe, urundi ruhande rwayo ruragaragaraho urukuta rw'amabuye.

Ni inyubako nziza cyane kandi ikeye, ikaba igaragaza ikimenyetso cy'imiturire igezweho, kandi iteye imbere; mu ibaraza hari ibara ry'umweru ndetse n'inkingi ebyiri ziri kugaragara.

Ni umugabo wambaye ishati y'umweru, n'ipantaro y'umukara watebeje, uri rwagati mu gipangu kirimo inyubako nziza ifite icyanya cyahariwe guhagararamo imodoka cyisanzuye.

Inzu nziza ijyanye n'icyerekezo tugezemo ikaba igeretse rimwe, hariho amarange y'umweru ku nkuta no ku nkingi, ikaba inazengurutswe n'ibirahure hejuru bitangira abantu kugira ngo batitura hasi.

Isoko rusange ririmo ibicuruzwa bitandukanye, hari umuguzi w'umuzungukazi uri kugura aganira n'umudamu w'umunyarwandakazi, bose barishimye bari kumwenyura, yamuhaye imbuto azifite mu ntoki.

Iguriro rinini ryagutse rya kijyambere, riragaragaramo impande zitandukanye zigiye zirimo ibicuruzwa byinshi; ndetse ahateye imbere baba bafite utugare utembera ugenda ushyiramo ibyo washimye, maze ukaza kwishyura nyuma.

Mu isoko rusange rihahirwamo ibicuruzwa bitandukanye higanjemo iby'ubwiza amavuta n'ibindi, haragaragaramo abagore n'abakobwa kuko ari bo bazwi ho guhaha bene ibyo ngibyo.

Mu isoko hari ibicuruzwa biri hirya no hino, bipanze neza mu tubati, aha utambuka ugenda uhitamo ibyo uri bucyure, hari umukobwa w'imisatsi y'umukara igiye inyuma, wambaye agapira k'umutuku.

Isoko rinini cyane rikaba rikorerwamo ubucuruzi bw'imyenda, hari abantu bari kugenda mo hagati ndetse n'abandi bahagaze ku mpande, uhabona ibishusho bakunze kwambika imyenda kugira ngo abaza kuyireba babashe kubona niba yabakwira.

Inyubako ndende y'umuturirwa igeretse akarenga gatatu, ikorerwamo ibikorwa bitandukanye birimo iby'ubucuruzi ndetse n'ibigo by'imari. Hari abantu bari imbere, bari kugenda bahatambuka.

Iguriro rusange ricuruza ibintu bitandukanye, hari urujya n'uruza rw'abantu, igice cy'imbere kirimo umugabo w'umuzungu ufite imisatsi y'umukara, ari we uri kwakira abaje guhaha.

Ni ahacururizwa ibintu bitandukanye byiganjemo imitako cyangwa se ibizwi nk'amatapi, abantu basasa mu byumba cyangwa se mu ruganiriro rw'inzu, biri mu mabara atandukanye.

Iguriro rusange riragaragaramo abantu benshi bari ku murongo bamwe bahitamo ibyo batahana abandi bishyura ibyo bamaze guhitamo, hari umudamu wambaye umupira utukura wicayemo imbere bigaragara ko akora.

Amakarita atatu yose akaba ari ay'ubwisungane mu kwivuza, imwe iriho ikirangantego cy'igihugu cy'u Rwanda, ubu ni uburyo bwashyizweho na leta bworohereza abaturage, yaba ab'amikoro menshi ndetse n'amikoro make kugira ngo bajye bivuza.

Ni ku kigo nderabuzima ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi, hari ubwatsi buzengurutswe n'indabyo ndetse n'utubuye tw'imitako, hirya haragaragara abantu biganjemo ab'igitsina gore.

Yitwa Nsanzimana Sabin akaba minisitiri w'ubuzima mu Rwanda afite indangururamajwi iteretse imbere ye, ari gutanga imbwirwaruhame ndetse na mudasobwa, iruhande rwe hari undi mudamu nawe uteretse agacupa k'amazi ku meza.

Umuntu wicaye mu biro ahatangirwa serivisi zimeze nk'aho ari z'ubuvuzi, akaba ari kwakira umugore uje amugana, yakuyemo ikarita y'ubwisungane mu kwivuza, ari kuyimwereka bigaragara ko aje kwivuza.

Ameza ariho igitambaro cy'umuhondo ariho amakarita menshi ya mituweli, akoreshwa mu gikorwa cy'ubwisungane mu kwivuza, ufite iyi karita wese ntabwo akwiye kurembera mu rugo.

Icyapa cyo mu Rwanda cyerekana icyitwa Mitiweri de sante; kikaba ari ubwisungane mu kwivuza bwashyizweho na Leta y'u Rwanda, mu rwego rwo kugira ngo n'ab'amikoro make bajye bavurwa kandi neza.

Ni ahatangirwa serivisi z'ubuvuzi kuko hagaragara mu muryango umugabo wambaye umwambaro w'abaganga uri kwinjira, imbere hari umudamu witeye igitenge ndetse n'igitambaro mu mutwe uri kwakirwa.

Akabati karimo ibicuruzwa bitandukanye bigaragara mu iguriro rigezweho bikaba bigiye bipanze ku murongo bijyanye n'ibyiciro byabyo, aha uzengurukamo uhitamo maze wamara gushima ukajya kwishyura

Ni mu isoko rusange ry'ibicuruzwa bitandukanye, aho abaturage benshi bari ku murongo baje kwishyura ibyo bahisemo, abenshi muri bo baraza kwifashisha ikoranabuhanga mu kwishyura.

Ni isoko rusange ririmo ibicuruzwa bitandukanye, umukobwa wambaye agapira k'umuhondo n'ubururu n'imisatsi igiye inyuma, ari kwereka umusore ufite telefone mu ntoki bigaragara ko agiye kwishyura.

Iguriro rusange ririmo akayira abantu batambukamo bagenda bahitamo ibyo bari butahane, haragaragaramo ibikombe bizwiho kubamo amata y'ifu, ndetse n'utundi dukarito turimo ibiribwa bitandukanye.

Isoko ricuruza ibintu bitandukanye, hakaba hari kugaragaramo umugabo igice kimwe, wambaye ikote ry'umukara, hirya gato hari n'undi uri kwishyura wambaye akajipo k'umuhondo n'ingofero y'umweru.

Ihahiro rusange rikaba rigizwe n'ibicuruzwa byiza kandi bifite isuku, wahasanga byose wakenera, harimo abana batoya bari kugenda bahitamo ibyo bari butahane.

Isoko rinini rya kijyambere, hakaba hari ibicuruzwa bitandukanye, umudamu wambaye ikanzu y'igitenge, iruhande rwe hari akagare, ari kugenda arizengurukamo icyo ahisemo gutwara akagishyira muri ako kantu.

Ni icyapa kinini cyamamaza isoko ricuruza ibintu bigezwe hano mu Rwanda cyitwa simba kiri iruhande rw'umuhanda wa kaburimbo, hari imodoka ziri inyuma yacyo.

Mu iguriro rusange haragaragaramo umuntu ufite akabugenewe bashyiramo ibyo bari kugenda bahitamo iyo bahaha, inyuma ye hari abagabo babiri bafite ibyuma bifata amashusho bakaba bari kumukamera.

Iguriro rusange, ririmo ibicuruzwa byinshi. Aha hagaragara imbuto zizwi nka pome, ariko hirya hagiye harimo ibyo kunywa n'ibindi byo kurya bigiye bitandukanye.

N'iguriro rusange ririmo ibicuruzwa bitandukanye byiganjemo ibyo kunywa, hari ibiri mu macupa ndetse n'ibiri mu mikebe, byose bipanze mu tubati ku murongo bijyanye n'ibyiciro byabyo.

Ni m'iguriro rusange rigaragaramo ibicuruzwa bitandukanye, ndetse hakaba hubatse mu buryo bujyanye n'igihe tugezemo, iyo umaze guhitamo ibyo uributahane uraza ukishyura akashi hifashishwa ikoranabuhanga.

Mu isoko ricuruza imboga n'imbuto, hari kugaragaramo karoti, tangawize, imbuto za pome n'ibindi bitandukanye. Umukobwa wambaye agapira k'icyatsi ndetse n'ipantaro y'ubururu ari kurebamo ibyo ari butware.